Abagabo bagera kuri batandatu bicaye barimo kuganira, imbere yabo hariho mudasobwa ndetse n'amazi barimo kugenda banywa, bari mu nama barimo kugenda basangira ibitekerezo bijyanye n'ingingo barimo kuganiraho.

Umugore wambaye imyenda ya kinyarwanda imishanana. Afite indangururamajwi arimo kugenda atanga ubutumwa bugiye butandukanye harimo no gushishikariza abantu gukemurira ibibazo mu Isibo.

Umugabo w'umuzungu uhagaze imbere, yambaye agashati keza, karimo uturongo tunyuranyemo ndetse ni agashati k'ubururu, yambaye isaha, afite indangururamajwi, yambaye indorerwamo, arimo kugenda atanga ikiganiro mu nama.

Inzego z'umutekano zigizwe n'abayobozi bakomeye, abapolisi n'abasirikari bakoraniye hamwe mu nama. Ndetse kandi harimo n'abaturage bagiye batandukanye baje kwitabira inama kugira ngo bahabwe ubutumwa bugiye butandukanye hamwe n'umuntu ubakuriye.

Abantu benshi bari mu nama hariho umugabo umwe uhagaze, afite igikoresho gifata amashusho arimo kugenda yitegereza iyo bakora. Aha ngaha kandi higanjemo abagabo gusa.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe barimo kugenda bahabwa ubutumwa bugiye butandukanye, hariho umugabo uhagaze imbere rwagati arimo kugenda abagezaho ubutumwa nabo bagakoma mu mashyi.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe, aha ngaha bari mu nama, bamwe bari mu materefoni yabo bayahugiyemo, abandi barimo kureba mbere bakurikiye, banatega amatwi k'urimo kubaha ikiganiro.

Umugore umwe uhagaze, ahagararanye n'abagabo bagera kuri bane, bahagaze imbere y'abantu benshi, nibo bonyine bahagaze, abandi bose baricaye, barimo kugenda bafata ifoto, abandi nabo bakabareba.

Umugabo urimo gutanga ubutumwa bugiye butandukanye ku bantu bamuteze amatwi, imbere ye hariho icyapa cyanditseho imbuto, kandi arimo kugenda atanga ubutumwa ashishikariza abantu kwitabira serivisi runaka ndetse no kugira ibyo barwanya.

Inama yahuje abagabo benshi cyane, higanjemo abayobozi bakomeye, abaturutse hanze ndetse no mu bindi bice by'igihugu, barimo kugenda baganira ahantu heza, ni muri hoteli, haratatse, harimo indabo ndetse n'ibitambaro, bisa neza.

Itsinda ry'abakobwa ririmo kubyina imbyino gakondo, barimo kugenda batega amaboko nka kwa kundi inyambo zibigenza, hanyuma bagacinya umudiho, barimo gususurutsa abantu bateraniye hano.

Intore zirimo kubyina zigizwe n'umukobwa urimo kugenda yitayanga imbere y'abayobozi ndetse n'abandi basore barimo kugenda bakoma amashyi na bo biteguye kumusimbura kugira ngo nabayananiwe nabo bahite bajyamo bakomerezeho.

Bimwe mu bigaragaza umuco wa kinyarwanda, aho hariho umutware wambaye imyenda myiza, imbere ye hariho umwe urimo kwitoza kumasha, afite umuheto ndetse n'umwambi.

Itsinda ry'abakobwa bamwe barimo kuvuza ingoma, abandi bari kuririmba. Umwe afite indangururamajwi, abandi bo barimo kugenda bakoma mu mashyi, bigaragara ko barimo gususurutsa bateraniye hamwe.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abasore b'urubyiruko ndetse hakabamo n'inkumi barimo kugenda bakoma amashyi hanyuma abasore na bo bagacinya akadiho, barimo gususurutsa abantu.

Umugore urimo kubyina imbyino gakondo, ari kurambura amaboko, ayatega neza nk'inyambo, yambaye imyenda yabugenewe y'imishanana ndetse yiteze akandi mu mpanga. Umusatsi we urasokoje umeze neza cyane mu buryo ugaragara.

Abagabo babiri basokoje muri bwa buryo bwa kera, aho babogoshaga ibice bimwe, iyindi misatsi bakayireka iteretse, bagasokoza bakora imitako kugira ngo base neza, cyane cyane byakorwaga n'abantu b'abami cyangwa se abatware.

Umumama wambaye neza ufite imisatsi izirikiye mu mugongo, yambaye amaherena ndetse afite n'agatambaro yasize mu ijosi, hari n'imbaga y'abantu benshi barimo gutega amatwi ikiganiro.

Bimwe mu biranga umuco wa kinyarwanda, bigaragaza uko basokozaga bakora amasunzu, ibingibi byakorwaga n'abatware cyangwa se abami, ukurikije n'iyi myambaro aba bantu bambaye igaragaza ko bari abantu bakomeye.

Umukobwa wambaye imyenda gakondo arimo kugenda akoma amashyi, ku ruhande hariho n'abandi barimo kubyina imbyino gakondo, ari na ko bagenda basusurutsa abantu bateraniye hano.

Aho badodera imyenda, harimo umugore urimo kudoda, arimo guseka cyane, ahangaha urazukagura igitenge, yarangiza akabyikudodera kuko harimo imashini nyinshi yifashisha, arabanza akagupima yarangiza akadodera moderi wifuza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo iby'amashanyarazi, aha ngaha ni hahandi usanga hari ikicaro gitanga amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye byegereye mu gace iki kicaro kirimo, aha ngaha ni ukuvuga ngo ntabwo uba wemerewe kuhagera igihe utahakora, kuko ushobora kuhahurira n'impanuka.

Agace kariho ipiloni rinini cyane aha ngaha umuntu utarakora ntabwo aba yemerewe kuhagera, aho ashobora gutwikwa n'amashanyarazi ndetse aha ngaha atanga ingufu z'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Umugabo ukiri mutoya aricaye arimo kugenda akora utuntu tugiye dutandukanye twiganjemo utwo gukora ibikoresho bya elegitoronike, afite ahantu acaginze amatelefone menshi.

Icyumba kirimo amashanyarazi harimo n'abakozi babiri barimo kugenda bahuza utuntu twinshi, kugira ngo barebe ibyapfuye kugira ngo abantu bataza kubura amashanyarazi. Aha ngaha ni ahaturuka umuriro ukoreshwa mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu.

Umugabo w'umuzungu yambaye ingofero y'umweru afite igitabo arimo kugenda areberaho, arimo kugenda akora ahari ari amashanyarazi, arimo kugenda akora bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hariho ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo iby'amashanyarazi, hariho iminara miremire iriho insinga z'amashanyarazi zigiye mu bice bigiye bitandukanye.

Agace kahariwe ibijyanye n'amashanyarazi, hariho ibikoresho byinshi, bikoreshwa n'amashanyarazi ndetse n'ibindi biyatanga, hariho utuntu twinshi tumeze nk'iminara ndetse biragaragara ko hamaze igihe gitoya hubatswe.

Umugabo ukora mu by'amashanyarazi, ari muri cya gikoresho k'ikoranabuhanga, aho umuntu aba amuzamura kugira ngo abashe gukora ibintu biri hejuru mu kirere, arimo kugenda akanika amashanyarazi yangiritse.

Umugabo ukora mu by'amashanyarazi yuriye hejuru ahari insinga zijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye, yambaye imyenda yabugenewe kuko yiziritse ku ipoto afite kandi n'ikindi kintu akandagiyeho ku buryo adashobora guhanuka.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ari ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo iby'amashanyarazi, aha ngaha ni aho bayatunganyiriza mbere y'uko bayerekeza mu bice bitandukanye.

Ahantu hariho igikoresho cy'amashanyarazi. Hariho aho bafatira umuriro w'amashanyarazi, bawujyana mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo abaturage bawifashishe.

Inyubako ifite amabati atukura imbere yayo hariho amapino agiye atandukanye akurura imirasire y'izuba akayigezamo amashanyarazi yo gukoresha mugihe ingufu zikomoka ku mashanyarazi zidahari.

Ahari icyapa kigaragaza ibice bitandukanye cyane cyane ahari umupaka, aha ngaha hari igice kimwe kigaragara aho umuntu ashobora kujya yinjira mu kindi gihugu, n'aho ugaruka mu kindi gihugu aba ari.

Agace karimo inyubako zigiye zitandukanye, inyinshi muri zo zubatswe nk'amashuri, ndetse hariho umuhanda muremure kaburimbo, ugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, bimwe byo mu mujyi, ndetse n'ibindi byo mu cyaro.

Ahantu hari imbuga idateyemo amapave cyangwa se sima, hakurya hariho aho umuntu ashobora gukarabira intoki ,hariho ahantu ugena ugatera intoki amazi akizana warangiza ugakaraba ni uburyo bwo kunoza isuku.

Inyubako yubatse neza iteye amarangi imbere yayo hariho ubusitani bumeze neza cyane, imbere musitani hagiye hateyemo ibiti by'imikindo, ndetse n'indabo zihazengurutse bagiye bazicunga, hariho kandi n'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ibitaro Girubuzima, abenshi muri bo ni abaje kwakira ubutumwa bugiye butandukanye bwiganjemo ubwo kwirinda ndetse baba banahabwa inama zi zitandukanye z'abaganga.

Isangano ry'umuhanda aho hariho ibice bigye bitandukanye ushobora kunyuramo bitewe n'icyerekezo kimwe kirakuyobora aho imodoka ziparika, aho ushobora kugenda ugafatira imodoka ikujyana mu cyerekezo runaka ikindi kirakwerekeza aho ushobora kujya ku biro by'abinjira n'abasohoka.

Abayobozi barimo kugendera mu bice bigiye bitandukanye, harimo umwe uri imbere yabo bose abandi bari inyuma baramuherekeje, barimo kugenda bamurinda kuko biganjemo abakora mu by'umutekano.

Inyubako yubatswe nk'Akagari ifite irangi ry'ubururu ndetse kandi imiryango yaho iteye irangi ry'umweru hejuru hariho amabati y'ubururu hakabaho n'akandi gace kari hejuru cyane kitatuye andi mabati, ikirere kirasa neza ni mu gihe cy'impeshyi.

Igicumbi cy'itorero mu karere ka Nyagatare Umurenge wa Nyagatare, ahangaha ni mu mudugudu wa Nyegeza, hariho indangagaciro zitandukanye.

Abantu bari kugana mu bice bigiye bitandukanye hariho umwe uri gusunika igare, imbere ye hariyo umugabo barimo kugana mu bicenge bitandukanye, aho hari icyapa kigaragaza amerekezo.

Imodoka y'ivatiri irimo guca ahantu mu muhanda, ni umuhanda wa kaburimbo, aho irimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, hari n'amatara ari ku muhanda amurika mu gihe cya nijoro.

Abagabo babiri bahagaze ahantu, ni mu idirishya, aho barimo kuvugana n'umuntu urimo imbere, urimo kubahereza serivisi, bari kuganira na we, hanyuma akababaza ibibazo na bo bakagenda bamusubiza, bakurikije ibyo ababajije.

Inyubako izengurukijwe n'ibyuma, isakaje amabati atukura, aha ngaha akenshi aba ari ahantu bagurishiriza amatungo, cyangwa se muri make akaba ari isoko ry'inka.

Umugabo utwaye moto arimo guca ku kiraro bya bindi byabugenewe biba biri mu kirere ku buryo bidashobora gutwarwa n'amazi. Aha ngaha ni bya bindi biba biri mu kirere.

Inyubako ifite irange ry'ubururu. Aha ngaha ni ku urukiko, aho ari urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare. Aha ngaha ni aho bakemurira ibibazo byoroheje, mu gihe abantu bananiwe kwikiranura mu rwego rw'akagari.

Aha hantu hariho ibigega bya bindi binini cyane bibikwamo amazi y'imvura ndetse kandi ushobora no kugikoresha ushyiramo n'amazi asanzwe aha ngaha ni ukuvuga ngo ushobora kuhakura amazi ujyana no gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye harimo kumesa guteka ndetse no gukora isuku.

Ikibuga cy'umupira gikikijwe n'inyubako zi zitandukanye ziganjemo aho abantu bicara mu gihe barimo kureba umupira hanyuma kandi hariho n'imodoka za zindi zifashishwa mu kwamamaza cyangwa mu gutanga ubutumwa, aho ziba ziriho igiteleviziyo cyarutura aho abantu baba barebera amashusho arimo gutambuka.

Inyubako yubatse nka zanzu z'ikitegererezo, aho ziba zituyemo imiryango igiye itandukanye, yakuwe mu manegeka cyangwa se bimuwe bajyanwa mu bice bigiye bitandukanye, aha ngaha hamaze igihe gitoya hubatswe urabona ko inyubako batari batangira kuzibamo.

Agace karimo inyubako zigera kuri eshatu zisakaje amabati asa, ni amabati y'ubururu, zisize irangi ry'umweru, imbere hariho abantu barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umugabo urimo kugenda akusanya amata, aha ngaha afite ibicuba bigera kuri bine aho byuzuyemo amata, imbere ye hariho moto ashobora guterekaho ibi bicuba akabitwara.

Imbaga irimo abayobozi bagiye batandukanye harimo abiganjemo abakorera inzego z'ubutabera, harimo kandi n'abandi bambaye imyenda igiye itandukanye, ikunze kwambarwa n'abantu b'abaminisitiri cyangwa abandi b'abasenateri.

Abagabo, abagore, bateraniye imbere, bahagaze imbere y'abandi bantu, barimo kugenda bareba, hari ubutumwa barimo kugenda batanga ariko gusa abenshi mu bari hano nta n'umwe uri kuvuga bose baracecetse.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe biganjemo abayobozi, ahantu bri ni mu itente ndetse kandi higanjemo inzego z'umutekano, bimeze nka cya gihe baba barimo kwibuka aho baba bafashe umunota kugira ngo bibuke.

Abayobozi bagiye batandukanye bari mu nama, imbere y'aho hariho abantu barimo kubatega amatwi bumva ibyo barimo kugenda babatangariza, biganjemo abantu barimo kurwanya ruswa ndetse n'akarengane.

Abayobozi batandukanye barimo kugenda mu gaturage ndetse biganjemo abayobozi bakomeye, inzego za polisi ndetse n'abasirikare muri rusange, inzego z'umutekano, ubutabera ndetse n'abandi barimo kugenda berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo bagende batanga ubutumwa.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi bantu benshi, afite indabo mu ntoki, arimo kugenda azishyira ahantu hashyinguwe inzirakarengane, zishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu gihe cyo kwibuka.

Umugabo ufite indangururamajwi y'umutuku ndetse arahagaze, yambaye ishati ikozwe mu gitenge nta musatsi afite yariyogoshesheje ahagaze mu mbaga irimo abantu benshi arimo kugenda abagezaho ubutumwa bugiye butandukanye.

Abagabo bagera kuri batanu bifotoje imbere y'igishushanyo cyangwa sitati cyangwa ikibumbano, aho ari amateka agiye atandukanye, ajyanye na Gikoba cyane cyane aha ngaha ni amateka ajyanye no kwibohora muri aka gace.

Umuntu urimo kugenda mu muhanda ni ahantu mu mujyi hariho icyapa cyerekana ko iyo ugiye muri uyu muhanda imbere hashamikiyeho akandi gahanda mu cyerekezo cy'iburyo ni ukuvuga ngo uri nk'umushoferi ushobora kwibaza niba urakomeza imbere cyangwa se ugatambika muri aka gahanda kagiye iburyo.

Umuhanda aho hari icyapa gitegeka ibinyabiziga kugenda gakeya kuko imbere haba hariho aho abantu bambukira, ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bitegetswe kugenda gakeya kugira ngo abanyeshuri cyangwa se abari kugenda mu muhanda babashe kwambuka mu mutuzo.

Icyuma k'ikoranabuhanga kiboneka ahantu hari umuhanda, iki ngiki gifotora nk'abamotari cyangwa se abashoferi mu gihe batwaye barengeje umuvuduko wagenwe na leta y'u Rwanda cyangwa se polisi.

Ikibuga kirimo ibyapa bya bindi biyobora abantu mu byerekezo bye bitandukanye, aho iki ngiki kiberekeza ku itorero ADPR Amizero.

Mu mujyi rwagati, aho hariho ibyapa biyobora abantu mu bice bijgiye bitandukanye, bibereka nimero y'umuhanda ndetse n'ibirometero bagiye, hariho kandi ahantu hariho indabo ziteye, hariho n'ipoto rirerire y'amashanyarazi.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda, izazindi bita amafuso, iyi ngiyi irimo iragenda mu bice bigiye bitandukanye byo umuhanda ndetse ni uwa kaburimbo. Ku ruhande kandi harimo akayira abagenzi banyuramo mu gihe barimo kugenda mu muhanda.

Abagabo babiri baheganye ku igare barimo guca mu muhanda wa kaburimbo, imbere yabo hariho icyapa cyanditsemo mirongo itandatu mu ibara ry'umweru, bibuza abantu batwara kuba barenza uyu muvuduko.

Ahantu haparitse amamodoka menshi ndetse hari ikibuga kinini cyane giteyemo sima, aha ngaha haritaruye ku buryo ibinyabiziga bishobora kubisikana nta na kimwe kigonganye n'ikindi ndetse n'abantu bari kunyuraho mu rujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye.

akayira kanyuze ahantu hari icyapa cyanditseho mirongo itandatu kibuza ibinyabiziga kugendera ku muvuduko uri hejuru, aho bikunze kugaragara ahantu hari imihanda ya kaburimbo kugira ngo biyobore abashoferi.

Inzego z'umutekano ziganjemo abasirikari, abapolisi ndetse n'abadasso, barimo kugenda bakata ibyatsi ndetse n'ibihuru, barimo kugenda bakora umuganda kuko higanjemo n'abaturage ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi bose, yambaye umupira uriho ifoto ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, hanyuma inyuma hariyo abandi bantu benshi, n'abo barimo kureba imbere barimo kugenda bitegereza ibintu runaka.

Umugabo wambaye imyenda ya polisi arihagaze hagati y'abagabo babiri, imbere y'aho hari imbaga y'abantu benshi barimo kugenda baganiriza, babagezaho ubutumwa bugiye butandukanye bwiganjemo ku mutekano.

Umugabo uteruye ibuye arimo kugenda aseka asa nkaho ari umuyobozi, kwa kundi abayobozi baba bamanutse bagiye mu giturage barimo gufasha abantu bo mu nzego z'ibanze.

Urubyiruko rurimo gukora imirimo igiye itandukanye, aho barimo kubaka inzu. Ni muri bwa buryo baba bafasha abantu batishoboye barimo kugenda babubakira amazu.

Ikipe ikina umupira w'amaguru barimo gufata agafoto, ni mbere yuko umupira utangira ni abakinnyi bagera kuri cumi n'umwe ndetse hari n'umuyobozi w'iyi kipe ari kumwe na bo.

Ikipe y'abagore imaze gukina batwaye igikombe. Hariho umumama urimo kugenda abahereza imidari. Umwe arimo kugenda abambika, ndetse n'undi nawe arimo kugenda ayimufasha. Ari nako igikorwa kigenda gikomeza.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abagore, abagabo, abana, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, barimo kugenda basimbuka bongera bakandagira hasi, biganjemo n'abayobozi.

Amakipe abiri ahanganye arimo gukinira mu kibuga kirimo tapi, ni amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye imyenda irimo utungo tw'ubururu ndetse n'amabara y'umukara, indi yambaye imipira y'ubururu ndetse n'makabutura y'umuhondo.

Umugore ndetse n'umugabo bahagaze ahantu mu kibuga bya bindi babigezweho, biba bifite tapi hasi. Bafite umupira biteguye gutangiza umukino.

Umugabo ufashe umupira w'amaguru mu ntoki, ku ruhande kandi hariho undi mumama ufashe sheke, iriho amafaranga bagomba guhemba iyi kipe yatsindiye kino gikombe, uyu mugabo uri hagati afite, ni mumarushanwa y'umurenge Kagame kapu.

Urubyiruko rwiganjemo abasore barimo gukina umupira w'amaguru, harimo n'abagize inzego z'umutekano, aho barimo gushishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri.

Amakipe abiri ahanganye aho bari muri sitade bari imbere y'izamu aha ngaha ni cya gihe baba barimo kugenda batera koroneri abakinnyi b'ikipe runaka baba begereye imbere y'izamu kugira ngo babashe gutsinda igitego cy'umutwe.

Umugabo wifashe ku munwa, yambaye imyenda abakinnyi bambara igihe barimo gukina, arimo kugenda areba mu byerekezo bigiye bitandukanye, yambaye imyenda isa ndetse y'ubururu.

Umukino w'umupira w'amaguru aho amakipe abiri ahanganye, imwe yambaye impuzankano y'umuhondo ndetse indi ikaba yambaye impuzangano yifite imipira n'amakabutura y'ubururu.

Urubyiruko rurimo gukora imyitozo ngororamubiri, ni abantu benshi cyane, bari gukorera imyitozo ahantu mu kibuga, muri sitade ndetse itara ririmo kwaka, ni mu masaha ya nijoro, barimo kugenda bakora imyitozo igiye itandukanye, bagendeye ku muntu urimo kubatuza.

Umugabo w'umukinnyi yambaye impuzankano y'umuhondo ari ahantu mu kibuga. Uyu nguyu akina umupira w'amaguru, arimo kugenda azenguruka ikibuga mu bice bigiye bitandukanye.

Abakinnyi bambaye impuzankano ifite imipira iba isa n'ibara y'icunga, hakabaho n'amapantaro cyangwa se amakabutura y'imikara, barimo kugenda bishyushya mbere y'uko umukino utangira.

Umugabo wicaranye n'akana ke barimo kureba umupira, aha ngaha bicaye ni muri sitade barimo kureba imbere, umugabo afite terefone mu ntoki ndetse yambaye n'ingofero, inyuma ye kandi hariho n'abandi bantu.

Umusore ufite akadobo mu ntoki arimo kugenda acuruza, aha ngaha ni kwa kundi umuntu arangura amandazi cyangwa se ibiraha akagenda abicuruza ku muhanda azenguruka mu migi igiye itandukanye.

Akayira k'itaka twa tundi tuba tugiye mu byaro mu duce tugiye dutandukanye, aho ku ruhande hariho urwuri rurimo inka zirimo kurisha, hakurya kandi harimo kugaragara amazu atandukanye bigaragara ko hakurya ari mu mujyi.

Umuhanda wa kaburimbo uri ahantu mu misozi, ni ahantu haterera, ariko nta binyabiziga birimo, ni ahantu hakikijwe n'ibiti bifite indabo zigiye zitandukanye, ndetse n'amatara ari ku muhanda, agenda amurika mu gihe ari nijoro cg se ari umwijima.

Utuyira dutoya tugana mu byerekezo bijyiye bitandukanye, dukunze kuboneka mu bice by'ibyaro aho haba ndatuwe cyane cyangwa se ahantu hatagerwa n'imodoka nyinshi. utungutu twifashishwa n'abaturage batuye mu byaro kugira ngo bagere mu ngo zabo ahantu henshi hagiye hatandukanye aho batuye.

Umuhanda urimo gukorwa cyangwa se umaze igihe gitoya ukozwe aho ari uw'igitaka, harabura igihe gitoya ubundi bagashyiramo kaburimbo. Aha ngaha umuntu ahanyura agiye mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiyeho akayira gato. Ako kayira kariho umuntu uhetswe kuri moto, urimo kugana mu cyerekezo kigiye gitandukanye, aho ashaka kugera iwe mu rugo.

Umugabo urimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, ari kunyura mu muhanda wa kaburimbo aho nta modoka zirimo, ahantu arimo kunyurana mu muhanda w'abanyamaguru aho arimo kugenda aca ku ruhande.